Ikirori n’ahantu hahurira abantu benshi bavuye impande n’impande. Akenshi ikintu kiranga ikirori n’ikidara, ndetse hakaba hari n’icyo kurya n’icyo kunywa.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Tuyakoresha dukaraba intoki, duteka, twoza ibyombo, dufura. Ndetse yifashishwa no mu nganda. Mu by’ukuri amazi adahari kubaho byagorana.

Gukaraba amazi meza n'isabune ni ingirakamaro, ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu akarabye amazi n'ibune, aba afite ya mirongo icyenda ku ijana yo kutandura indarwa, ni byo tugomba gukaraba amazi meza n'isabune mbere y'uko dukora ikindi kintu runaka nko kurya ndetse n'ibindi.

Ahantu henshi mu butayu kubona amazi ntabwo biba byoroshye, niyo mpamvu hifashishwa ikoranabuhanga kugirango ubone amazi nta bundi buryo, usibye kumanura impombo zikavana amazi hasi kure cyane mu nda y'Isi.

Kwita ku mwana mutoya, si ukumwonsa gusa ahubwo kumuhesha ingingo za ngombwa. Umubyeyi ujyanye umwana kwa muganga agomba kuba afite isuku ihagije, bityo kugira ngo umwana we adafatwa n'indwara nyinshi zitandukanye.

Amazi akoreshwa mu mirimo myinshi itandukanye, haba mu rugo ndetse no mu nganda, urugero amazi tuyakoresha mu rugo dufura, duteka ndetse dukora n'andi masuku yo mu rugo.

Amasoko n'ahandi dukomora amazi hakwiye kwitabwaho, kuko yo tahitayeho bishobora gutuma turwaye indwara zitandukanye zituruka ku isuku nkeya. Nibyo koko gufata amazi neza ni ingirakamaro kuri twewe ndetse n'abadukomokaho.

Amazi ni isoko y'ubuzima tuyakoresha ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko nanone usanga akenshi mu cyaro amazi bayapfusha ubusa, mu gihe mu mujyi amazi bayabura.

Amazi ni ingenzi cyane, ahantu hatari amazi biba bigoye cyane kuhaba. Niyo mpamvu abantu bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo babone amazi. Nko kumanura impombo mu butaka kugira ngo bazamure amazi yo mu butaka.

Mu mujyi haba hari imihanda myiza, amazu meza ndetse n'ibindi bikorwa remezo, akenshi usanga abantu benshi bibereye mu mijyi ,si ibyo gusa kandi mu mijyi niho hantu hambere usanga hari imodoka nyinshi ndetse n'abantu bavuye impande n'impande.

Ikirori ni ahantu hahurira abantu benshi abakuru n'abatoya b'ingeri zitandukanye, akenshi baba bishimye, baseka, banezerewe muri rusange bameze neza.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Amazi yifashishwa mu mirimo myinshi igiye itandukanye. Haba mu rugo ku ishuri ndetse ubuzima bwacu bwa buri munsi. Urugero, amazi tuyakoresha dufura imyenda duteka ibyokurya dukaraba ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye.

Gureba amazi meza n'isabune ni ingirakamaro. Bigufasha kudafatwa n'indwara ziterwa n'umwanda cyangwa se isuku nkeya, nibyo koko ni byiza gukaraba intoki mbere y'uko ufata ifunguro.

Gukaraba amazi meza n'isabune ni ingirakamaro. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu ariye adakarabye, bishobora kumugwa nabi. Niyo mpamvu tugomba gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo twirinde indwara.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Mu by'ukuri agace katagira amazi kaba kabayeho nabi, tuyifashisha duteka dukoropa tumesa imyenda yacu ndetse n'indi mirimo yo mu rugo

Gufata umwana neza akiri muto ni ingenzi cyane, kuko bimufasha kutagwingira, urugero nko kumuha amata, kumuha imboga n'imbuto, ibi byose ni byiza kandi n'ingirakamaro. Ni byiza rero gufata abana bacu neza nk'uko bikwiye.

Amazi ikintu cyabura ntitugire amahoro, amazi yifashishwa duteka, dukoropa, dufura, twisuka no ku mibiri yacu, si ibyo gusa uruganda rukenera amazi kugira ngo rukore neza.

Raporo ni ingenzi cyane, mu by'ukuri umuntu udafite aho akorera raporo sinzi niba yamenya niba umushinga we uri kuzamuka cyangwa gusubira inyuma. Niyo mpamvu no kwa muganga raporo ziba ari ngombwa, kureba abivuje kureba abatanze mituweli ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kwita ku bana ni ingenzi. Abana bakiri bato bakwiye kwitabwaho tukabigisha, tukabaha uburere bwiza kandi tugabafasha mu iterambere rya bo.

Amahugurwa ni ahantu abantu bahurira bagahabwa inyigisho ku kintu runaka, buri wese aba ahantu ari kwandika ibyo bari kumuhugura ikindi kandi ababateze amatwi bambaye neza.

Abanyabuzima bagira uruhare rukomeye cyane mu gushishikariza abana, gushishikariza ababyeyi, kwita ku isuku, abanyabuzima bavura indwara zimwe zitandukanye, izoroheje nka malariya ndetse bagafasha Leta mu gukwirakwiza imiti mu baturage.

Isuku ni isoko y'ubuzima ni byiza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mbere y'uko ukora ikindi kintu uvuye mu bwiherero ibuka gukaba intoki neza n'amazi meza n'isabune, si ibyo gusa kandi tugomba gukaraba intoki buri gihe mbere yo gukora ikindi kintu runaka.

Umubyeyi ujanye umwana kwa muganga agomba kuba afite isuku ihagije kandi n'umwana afite isuku ihagije. Kwita ku mwana si ukumuha ibyo kurya gusa ahubwo kumupimisha kwa muganga ngo barebe ibiro bye n'uko ahagaze ni ingirakamaro cyane.

Mu cyaro akora imirimo ivunanye ugereranyije no mu mujyi mu cyaro niho honyine ubona yikoreye ikintu atwaye ikindi mu ntoki basubiye inyuma cyane mu mujyi usanga bakoresha imodoka mu bwikorezi bugihe mu cyaro bikorera ku mutwe ,ku mugongo ndetse bakoresha n'amaboko.

Amazi ni ingirakamaro niyo mpamvu usanga ahantu hari abantu benshi baje kuvoma, bose baba bayakeneye. Nta mazi ntacyakorwa.

Amazi ni ingirakamaro. Tuyakoresha mu bigo byinshi bitandukanye, nko gufura, kuyanywa, kuyatekesha. Ni byiza rero gusigasira umutungo wacu kamere w'amazi kandi tunayarinda icyayahungabanya.

Kwirinda biruta kwivuza, Leta y'u Rwanda irashishikariza abantu bose kwivuza ndetse kwipimisha indwara hakiri kare, ni yo mpamvu mu cyorezo cya Kovide cumi n'icyenda haje agapfukamunwa.

Amazi ni isoko y'ubuzima, amazi yifashishwa mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ni byizaba amazi meza n'isabune, bityo kugira ngo twirinde ndwara, iyo umuntu akarabye amazi meza n'isabune, bimuha amahirwe menshi yo kutandura indwara cyangwa se ngo yanduza abandi.

Amazi ni umutungo wacu karemano tuyabuze kubaho ntibyakunda ariko abantu bakoresha amazi nabi nko kuvoma bagasiga amazi agwa hasi aho kuyafunga ngo areke gusandagurika.

Ubukwe ni ahantu hahurira abantu benshi bakanywa, bagasabana ndetse bakidagadura, akenshi usanga hari icyo kurya, icyo kunywa kandi ugasanga haje abantu benshi b'ingeri zitandukanye.

Nibyo koko tudafite amazi ntitwabaho, niyo mpamvu ahantu hatari amazi abantu bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bayabone. Urugero nko mu butayu bamanura impombo hasi mu butaka kugira ngo amazi azamuka abagereho.

Abana iyo bariye akenshi usanga bafite morali mu byo wakora byose, ikintu kizakubwira ko umwana yishimye, niyo aseka igihe ari kumwe na mugenzi we, si ibyo gusa abanezerewe cyane, kugero kiri hejuru.

Amata ni ingenzi cyane by'umwihariko ku bana batoya, abana banyweye amata ntiwabayoberwa bahorana akanyamuneza ikindi kandi bakura neza, amata akwiye kwitabwaho agashyirwa mu kintu cyiza kandi cyabugenewe cyo kubikamo amata.

Ubukwe ni ahantu hahurira abantu benshi bagasabana, bakarya, bakanywa ndetse bakishima, akenshi usanga bubatseho amahema cyangwa se ikidara.

Gusuzumisha umwana ni byiza cyane, gusuzumisha umwana bifasha umubyeyi kumenya uko umwana ahagaze, uko amerewe ndetse n'ingamba yafata kugira umwana we akomeze kubaho neza, niyo mpamvu gahunda haje gahunda ya Leta yo gushyiraho inkingo.

Umugore utwite ni ingenzi kujya kureba umujyanama w’ubuzima kugira ngo arebe uko ubuzima bwe bumeze ndetse n'ubw’umwana atwite si icyo gusa agomba kujyana n'umugabo we kuko ibi ni ingenzi cyane.

Amazi ni ingenzi cyane, tuyakoresha duteka, dufura, twoza ibyombo ndetse yifashishwa mu buhinzi twuhira imyaka ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ngombwa gukaraba amazi meza n'isabune mbere yuko tujya kurya, tuvuye mu bwiherero ndetse tuvuye no mu kandi kazi kagiye gatandukanye, gukaraba amazi meza uba ufite amahirwe menshi yo gutandura indwara.

Amazi ni ingirakamaro yifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye koza ibyombo, kuyakaraba, kuyatekesha ndetse no kuyanywa, si ibyo gusa yifashishwa no mu...

Abanyabuzima, abanyabuzima bafasha Leta gukwirakwiza imiti mu baturage. Abanyabuzima kandi bavura abana indwara zigiye zitandukanye. Nka malariya, umusonga ndetse n'izindi ndwara.

Mu butayu kubona amazi ntabwo biba byoroshye, hifashishwa ikoranabuhanga mu kugira ngo babone amazi, ni yo mpamvu ikoranabuhanga barikoresha bavana amazi hasi cyane ndani kugira ngo abagereho hejuru ku isi.

Gufata inkingo ni ingenzi cyane, akenshi mu cyaro usanga abantu bahunga inkingo ariko mu by'ukuri ntabwo bikwiye, iyo umuntu afashe inkingo bituma indwara zidakunda kumufata.

Kanseri ni indwara ihangakishije abantu benshi ku Isi, kanseri akenshi ikunze kwizana. Ni iki twakora kugira ngo twirinde kanseri? Icya mbere ni ukwirinda ibintu bikomeretsa.

Ni byo koko dukwiye gufata amazi neza, aho kuyasesagura, akenshi usanga mu mujyi amazi bayabura, naho mu cyaro usanga abana amazi bayasesagura, ariko ibi ntabwo bikwiye, tugomba gukoresha amazi yacu neza.

Amazi, amazi ni ingenzi cyane, ahantu hatari amazi biba bigoye kuhaba, ni yo mpamvu abantu bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo babone amazi, nko kumanura impombo hasi mu butaka, bityo bakazamura amazi.

Amazi ni isoko y'ubuzima. amazi n'ingirakamaro cyane. Tuyakoresha tuyanywa, tuyatekesha, tuyakaraba, tuyafurisha imyambaro ndetse tunayakoresha iyindi mirimo myinshi igiye itandukanye. Nko mu buhinzi, twuhira imyaka ndetse n'ibindi.

Guha umwana imizigo adashoboye kwikorera ni ukumwica. Si ibyo gusa uba uri kumbuza uburenganzira bwe. Umwana akwiye guhabwa ibintu ashoboye kwikorera, aho kumuha ibintu biremereye cyane, kuko bishobora gutuma agwingira mu mikurire,

Kwa muganga niho hantu hambere hahora ubushakashatsi buhoraho, bifashisha ikoranabuhanga kugira ngo barebe zimwe mu ndwara z'ibyorezo, urugero nka malariya, igituntu ndetse n'ibindi.

Inama ni ahantu hahurira abantu, bakaganira, bakungurana ibitekerezo, akenshi usanga hari umuntu uyoboye inama cyangwa se umuntu watumije iyi nama, abantu bagafata imyanzuro, bityo bakagira ibyo bemeranya.

Kwiga ku buzima bw'umwana ndetse n'umuntu mukuru ni ingirakamaro, iyo twiga ku buzima tumenya ibintu byose bishobora kwangiza umwana, tukamenya n'ibindi bishobora kwangiza umuntu mukuru, bityo tukiga uburyo twabikumira.

Kwita ku mwana ni ingirakamaro cyane, igihe umwana yarwaye, umubyeyi akwiye kwihutira kumujyana kwa muganga kandi agomba kubanza yategura, yakaraba, yakorera isuku umubiri we ndetse n'uw'umwana.

Hamwe abantu babona amafaranga ni mu buhinzi, nk'iyo umuntu yasaruye imyaka ye abona amafaranga bityo bikamufasha kwishyurira abana amashuri ndetse no kwiteza imbere muri rusange.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Yifashishwa mu bikorwa byinshi bya buri munsi. Mu by'ukuri amazi abuze n'ubuzima bwahagaragara hano ku isi. Ni yo mpamvu dukenera amazi kugira ngo dukore imirimo itandukanye, nko gufura, guteka ndetse no kuyanywa.

Mu cyaro niho ahantu hambere ushobora usanga abantu batekera hanze, mu cyaro imyubakire yabo iba itandukanye cyane n'iyo mu mujyi, akenshi amazu yo mu cyaro usanga ari ay'ibiti ndetse ahomesheje n'ibyondo kandi akenshi ntabwo bakomeye.

Abakene baba bayeho nabi cyane, baba bambaye imyenda isa nabi, kurya biba bigoye cyane, ni yo mpamvu dukwiye kwita ku bakene ndetse n'abandi bantu bababaye, kugira ngo na bo babashe kuva muri ubwo buribwe.

Inama, inama ni ahantu hahurira abantu benshi, bakaganira, bamara kuganira, nyuma y'iyi nama bakishimira ibyo bagezeho, akenshi baba bafite akanyamuneza, bambaye neza, baseka, bishimye muri rusange.

Umwana akwiye kwitabwaho. Kuva akivuka kugera akuze, ageze aho yishingira urugo rwe. Ubwo ndavuga hejuru y'imyaka cumi n'umunani. Mu by'ukuri kwita ku mwana si ukumwonsa gusa, ahubwo kumumenyera n'ibindi byose bigiye bitandukanye, umwana akera: nk'ibiryo, imyambaro, aho kuba ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi butuma umuntu atera imbere, si ibyo gusa, bufasha leta mu kubaka ibikorwa remezo, mu buryo bwinshi butandukanye, urugero; iyo umuntu acuruje, yishyura umusoro kuri leta, uwo musoro, leta iwukoresha yubaka ibikorwa remezo, bifasha iterambere ry'igihugu.

Abakire ni abantu bakunze kuba bambaye neza cyane. Bambaye imyenda igezweho, inkweto zigezweho, amatelefoni agezweho kandi baba bafite n'amafaranga muri rusange.

Umuntu wigunze akenshi aba yicaye ahantu aha wenyine nta muntu bari kumwe, ibi biterwa n'iki akenshi biterwa n'agahinda, inzara, ubushomeri ndetse n'ibindi bibazo biri mu muryango.

Kwita ku mwana ni ingenzi cyane, umwana akwiye kwitabwaho kuva akivuka kugeza akuze, kwita ku mwana si ukumugaburira gusa, ugomba kumwambika, ukamuha aho kuba, ukamuvuza ndetse n'ibindi.

Abantu bakennye akenshi usanga babayeho nabi cyane, baba bambaye imyenda isa nabi, umudatsi wabereyeho mu by'ukuri ubuzima bwabo bumerewe nabi cyane, niyo mpamvu abantu dukwiye kwita ku bakene tukabafasha kubona iby'ibanze nk'ibyo kurya n'imyambaro.

Inama ni ahantu hahurira abantu benshi, bafite ingingo bashaka kuvugaho. Usanga hari intebe nziza, zigezweho. Usanga hari isuku nziza kandi usanga ahantu inama iri kubera, hameze neza muri rusange.

Ahantu hari abantu benshi n'indwara zirakwirakwira, niyo mpamvu mu gihe tugiye ahantu hari abantu benshi, tugomba kwambara agapfukamunwa kugira ngo tutanduzanya hagati yacu.

Umuntu wigunze ni umuntu uba wicaye utuje, arakaye, mu by'ukuri atishimye. Akenshi hari igihe umuntu ababara bitewe n'impamvu runaka: ubukene, inzara ndetse n'ibindi usanga ari byo byibereye mu cyaro.

Kwita ku mwana ni inshingano zacu nk'ababyeyi, umwana agomba guhabwa ibere, kuva akivuka kugera ku mezi icyenda nta kindi kintu bamumuvangiye, habe n'amazi.

Uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe ni ikibazo gikomereye isi muri rusange, bukunze kwibasira abana n'abageze mu zabukuru. Kugira umenye ko umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe, ni uko aba akora ibintu bitajyanye n'urwego rwe.

Mu cyaro niho honyine usanga abantu bicaye hasi, bicaye mu mugenda cyangwa se mu ferege, iyo biterwa n'ubukene, mu gihe mu mujyi usanga abantu bagenda mu modoka, ku mamoto ndetse n'ibindi binyabiziga.

Abakire baba batandukanye n'abakene. Ikintu cyikubwira ko umuntu ari umukire n'uburyo yambaye akenshi usanga abakire bambaye neza, naho abakene ugasanga bambaye nabi ariko nanone tugomba gufasha abakene, tubaha ibyo kwambara tubafungurira ibiryo ndetse tubafasha mu bigo bya buri munsi.

Indwara yo mu mutwe. Indwara yo mu mutwe ikunze kwibasira abana batoya ndetse n'abageze mu za bukuru. Kugira ngo umenye ko umuntu afite indwara yo mu mutwe nk'iyo ari kwivugisha, akora ibintu bibusanye n'ibyo n'uko angana n'ikigero arimo.

Indwara y'amenyo ni indwara ikwiye kwibasira abana batoya n'abageze mu zabukuru. Akenshi hari impamvu nyinshi zituma abana bato barwara amenyo, kurya umunyu, isukari ndetse n'ibindi bintu bishobora gukomeretsa amenyo nk'ibisheke n'ibindi.

Abantu benshi bakunze gukoresha amenyo yabo bacagagura ibintu bikomeye, kandi ibi bishobora kubatera akaga. Iyo umuntu acishije amenyo ikintu gikomeye ashobora gukomereka mu kanwa bityo akanarwara kanseri y'amenyo.

Abantu benshi bifashisha amenyo, mu gihe bakata ibintu bikomeye, hariho n'abakatisha ibyuma amenyo, kandi si byiza, iyo ukatishije amenyo ikintu gikomeye, uba ufite amahirwe menshi yo kwikomeretsa mu kanwa.

Abantu benshi bakunze gukoresha amenyo, mu gihe bakata ibintu cyangwa se iyo baruma ibintu bikomeye ariko si byiza. Amenyo ikintu ashinzwe ni uguhekeya ibiryo, ndetse no kurya ibintu byoroheje, ntabwo ari ayo gucisha ibintu kuko ibi byagukururira akaga.

Kurumisha ikintu amenyo ushobora kwikururira akaga gakomeye no kurwara amenyo akavungagurika, ndetse n'izindi ndwara ndetse na kanseri irimo, ni byiza ko wakoresha ikindi kintu nk'icyuma mu gihe ukata ibintu, aho gukoresha amenyo.

Abantu benshi bakinisha amenyo yabo. Banyuzamo indodo ndetse n'ibindi bintu bikomeretsa. Ibi ngibi, bishobora gutuma ukuka amenyo bityo ukahazaharira. Niyo mpamvu, tugirwa inama yo gusigasira amenyo yacu neza.

Gushyira ibintu mu menyo ibyo ari byo byose, bishobora kugukururira akaga, urugero iyo ushyize ikintu mu menyo gikomeye, ushobora kuva amaraso, bityo amenyo agakuka.

Abaganga ni ingirakamaro cyane iyo umuntu yarwaye ajya gushaka abaganga bakamuvura mu by'ukuri abaganga baramutse bahavuye abantu benshi ubuzima bwabo bwajya mu kaga.

Kwa muganga niho hantu dusanga ibikoresho byinshi kandi bigezweho. Mudasobwa, intebe nziza, mubazi zishinzwe kureba ubushyuhe bw'umuntu ndetse n'ibindi.

Kuborosa mu kanwa ni byiza cyane. Iyo umuntu akunze kuborosa mu kanwa bituma impumuro mbi yo mu kanwa igabanuka. Si ibyo gusa bituma amenyo ye ahora asa neza. Ni yo mpamvu dukwiye kwita ku isuku yacu yo mu kanwa.

Gushyira ikintu mu kanwa icyo aricyo cyose bishobora kugukururira ibyago byo kurwara amenyo akavungagurika ndetse agahindura ifomo yarafite niyo mpamvu dukwiye kwitondera ibintu byose dushyira mu kanwa.

Abantu benshi bakoresha amenyo mu gihe bari gucagagura ibintu bikomeye, ariko si byiza, gucisha amenyo ibintu bikomeye, bishobora kudukururira akaga, bigatuma amenyo yacu akuka, bityo akanangirika.

Kwisuzumisha hakiri kare bituma umuntu atazahazwa n'indwara. Akenshi abantu bapfa kubera kutisuzumisha. Iyo umuntu yisuzumishije bagasanga afite indwara bahita bamuha imiti byihuse bityo ubuzima bwe bugakomeza neza.

Isuku ni isoko y'ubuzima nibyo koko ni ngombwa ko buri wese asukura umubiri we nk'amenyo umutwe ndetse n'ikindi gice cy'umubiri akenshi iyo umuntu adasukuye umubiri we akunda kwibasirwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Kwa muganga ni ho hantu usanga ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi kandi bigezweho, intebe zaho ziba ziteye amabengeza, ziteye amatsiko kandi zitangaje, isuku yaho ni ntagereranywa, hari n'ibindi bikoresho nka mudasobwa ndetse n'ibindi bikunze gukoreshwa.

Kwigisha ni umurimo mwiza cyane, iyo wigisha nawe uba wiga, ni byiza kwigisha umwana ufite ikintu umwereka, bityo kugira ibyo yiga, nawe azabyigisha abandi abizi neza cyane.

Kwangirika kw'amenyo biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye urugero umunyu mwinshi wangiza amenyo, guhekenya ibintu byinshi cyane bikomeye nabyo byangiza amenyo niyo mpamvu dukwiye kwitondera ibyo dushira mu kanwa byose kugira ngo turinde amenyo yacu neza.

Amenyo, amenyo ashobora kwangirika, bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Kurya umunyu mwinshi, kutaborosa amenyo, gukoresha ibintu bikomeye uruma cyangwa se ukata ikintu runaka, bishobora gutuma amenyo yawe yangirika cyane. Ni yo mpamvu tugirwa inama yo gufata amenyo yacu neza.

Izabukuru, izabukuru ni igihe abantu bageze mu myaka muri za mirongo inani gusubiza hejuru, abantu bageze mu zabukuru baba bakeneye kwishima.

Siporo ni ingirakamaro, zifasha umuntu kugira umubiri ukomeye amagufa agakomera, niyo mpamvu umuntu urwaye ingingo, bamutegeka gukora siporo zoroheje kugira ngo abashe koroherwa.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho kuko akenshi nabo baba baragize uruhare mu kurera abana babo, ni byiza rero ko twita ku bantu bakuru haba abatubyara ndetse n'abandi batandukanye.

Siporo. Siporo nyinshi zituma umuntu amera neza agakomera kandi akagira akanyamuneza abantu badakora siporo usanga akenshi barakaye bahorana umunaniro umutwe udashira ndetse n'ibindi.

Ibinini bigira uruhare mu kuvura indwara; nk'iyo umuntu yarwaye umutwe; ajya kwa muganga bakamuha ibinini mu minsi mike cyane akaba yakize; nibyo ubyumvishe neza mu by'ukuri ibinini bitahabaye abantu benshi bapfa.

Siporo n'ingirakamaro iyo umuntu akora siporo umubiri we urakomera ntakunda kurwaragurika cyangwa se ngo afatwatwe n'indwara zoroshye nko kubara umutwe ndetse n'ibindi umuntu udakunze gukora siporo usanga ahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye.

Siporo ni ingirakamaro cyane. Niyo mpamvu n'abantu bakuze bakora siporo. Abantu bakuze, bakora siporo zoroshye nko kugenda ahantu hato cyane, kugira ngo umubiri wabo ukomere.

Umuntu ufite ubumuga, si ukuvuga ko adashoboye, ahubwo aba akwiye kwitabwaho, kumutembereza, tumuganiriza kugira ngo na we yishime.

Abantu bakuze bagomba gukora siporo. Ni byo wabyumvise neza. Siporo ku bantu bakuze ni ingirakamaro. Ibafasha gukomeza imitsi yabo, bityo bagahora bakomeye nta kudandabirana.

Indyo yuzuye ni ingirakamaro, mu ndyo yuzuye dusangamo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, ibi byose iyo umuntu abifashe bituma yongera ibiro bikagabanya ibura ry'amaraso mu mubiri.

Kwa muganga ni ahantu abantu bajyanwa bakavurwa, niyo mpamvu iyo umuntu arwaye bahita bamujyana kwa muganga, ni ukugira ngo yitabweho, kwa muganga ni amasegonda make cyane, iyo umuntu ahageze ari indembe ahita yoroherwa bitewe n'imiti bamuhaye.

Abantu bageze mu zabukuru, bakunda kwiyicarira hasi, ku mikeka, ku birago ndetse n'ibindi bikoresho bya kera. Impamvu ni umuco wabo gakondo. Nta muntu n'umwe, ugeze mu zabukuru ukunda kwicara ku ntebe. Bose bashaka kwiyicarira hasi. Ku bikoresho byabo gakondo.

Koperative; koperative ni abantu bishyizeze hamwe kugirango ngo bagere ku kintu runaka. Nko mu buhinzi, iyo abantu bibumbiye hamwe bagahinga nk'ibigori, ingano, ibijumba, bagamije guzabigurisha. N'iyo koperative.

Imikino ituma umuntu aruhura mu mutwe bituma yishima bityo ntahore yigunze, gukina ni ingirakamaro cyane kuko akenenshi iyo umuntu akinnye aba yumva atekanye muri we.

Indwara y'umutima ni indwara ihangayikishije abantu, ndetse n'isi yose muri rusange. Mu gihe uri kumva ufite ikibazo ugomba kwihutira kujya kwa muganga, bityo bakagupima uko umerewe.

Gukora siporo ni byiza cyane. Iyo umuntu akoze siporo bituma ibice by'umubiri bye bikomera cyane, bityo bikamurinda kudandabirana gusumira ndetse n'ubundi burwayi.

Kureba indirimbo, kwifotoza amafoto, ni bimwe mu bishimisha abantu. Si ibyo gusa, iyo abantu bahuye barishima, bagaseka ndetse baba banezerewe cyane, akenshi hari igihe baba badakunze guhura mu buzima busanzwe.

Ibidukikije ni ibintu byose tubona hano ku isi, byabayeho, ibyakozwe n'abantu ndetse n'ibyaremwe n'Imana, uyu munsi wizihizwa ku itariki makumyabiri n'esheshatu ngarukamwaka z'ukwa cyenda buri mwaka.

Guseka ni byiza cyane, guseka bigufasha kongera iminsi yawe yo kubaho, ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko umuntu uhora urakaye amara iminsi mikeya, mu gihe abantu bahora bishimye baramba bakamara imyaka myinshi, ni yo mpamvu rero natwe tugomba guseka.

Gufata inkingo ni ingirakamaro iyo umuntu afashe urukingo bituma atazahazwa n'indwara runaka, urugero kovide cumi n'icyenda yaje iteye ikibazo, ariko uko abantu bagiye bafata inkingo icyorezo cyagiye gicika burundu.

Ku munsi mukuru usanga abantu bambaye neza, bameze neza bagahurira ahantu runaka bateganyije, bakishimira ibyo bagezeho, bakananenga aho bitagenze neza.

Indyo yuzuye, mu ndyo yuzuye dusangamo ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri. Mu birinda indwara harimo imboga. Ibyubaka umubiri harimo ibinyamisogwe ndetse n'ibikomoka ku matungo. Ibitera imbaraga harimo ibinyamafufu.

Umuntu urembye akwiye kwitabwaho. Ikintu kizakubwira ko umuntu arembye ni ukuba aryamye ahantu atabasha kwiyagura, iki gihe rero ni uguhita mushaka abaganga kugira ngo umuntu avurwe.

Sida ni indwara yugarije isi, mu rubyiruko, mu bantu bakuze, ingamba zo kuyirinda zirakomeje, kwirinda gutizanya ibikoresho bikomeretsa, kwirinda ubusambanyi ndetse no kwifata nizo mu nkingi za mwamba zo kwirinda iki cyorezo.

Ubushita ni indwara ituruka ku binyabuzima byo mu ishyamba. Indwara y'ubushita ikunze gukwirakwizwa n'inkende uko twayirinda, ntitugomba kurya inyamaswa z'ishyamba zipfishije kugira ngo twirinde ubushita. Ubushita burica.

Covid cumi n'icyenda, covid cumi n'icyenda ni indwara y'icyorezo yazahaje ubukungu bw'igihugu bituma abantu bareka amashuri, bituma abantu bapfa ndetse ibintu byose biradogera.

Isuku ni ingenzi cyane, haba aho tuba, aho dukorera ndetse n’ahandi hatandukanye, urugero nko kwa muganga, hagomba kwitabwaho cyane mu isuku, kugira ngo bafashe n'abarwayi kumererwa neza.

Kwa muganga ni ahantu abantu bajya kwivuza, haba hafite isuku ihagije hubatse neza kandi hateye amabengeza, ni byo koko hakwiye kwitabwaho kuko haba hakira abantu benshi batandukanye.

Nibyo koko izina ni ryo muntu. Umuganga aho ari hose aba yambaye neza. Ikanzu y'umweru nk'umuganga koko, abaganga bagira isuku nyinshi cyane ihambaye bityo kugira ngo bafashe abarwayi neza.

Ikigo cy'ubushakashatsi, mu kigo cy'ubushakashatsi ni ahantu usanga intebe nziza, hubatse neza, hari amakaro, hari umuriro, hari isuku ihagije, hari ibikoresho nta makemwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byifashishwa mu kusanya amakuru.

Mu biro ni ahantu haba hateguye neza, hari intebe nziza, ameza meza ndetse n'intebe nziza. Utubati twiza kandi hari isuku ihambaye.

Ikigo nderabuzima ni ahantu ujya ugiye kwivuza indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko ujya ku kigo nderabuzima mbere yo kujya ku bitaro bikuru, ikigo nderabuzima ni hamwe ushobora gusanga ibikoresho byinshi bigiye bigezweho kandi n'isuku ihagije.

Materinete, inzu yifashishwa kwa muganga bakira ababyeyi bagiye kubyara, akenshi usanga ifite isuku ihagije, ibitanda byiza ndetse n'ibikoresho by'itumanaho byinshi bitandukanye nka mudasobwa ndetse n'ibindi.

Kwa muganga ni ahantu usanga hari isuku idasanzwe, hari ibikoresho, akenshi na kenshi usanga abaganga buri gihe, bakora ubushakashatsi ku bintu runaka bijya bitandukanye, nk'urugero gusuzuma indwara ndetse n'ibindi byinshi.

Mu bitaro ni ho hantu usanga intebe nziza, ameza, isuku ihagije, ibikoresho by'itumanaho ndetse n'ibindi bikoreshwa mu buvuzi nk'imashini, mikorosikope...

Mu mahoteli usanga hameze neza cyane hasukuye hari intebe nziza, utubati twiza ndetse n'aho kurara heza.

Ikigo nderabuzima ni ahantutu abantu bajya kwivuza, usanga hari isuku, hari ibikorwa remezo byiza bitandukanye, hari ubwiherero bwiza ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Ahantu hari isuku hatuma abantu bahaba, si ibyo gusa ahantu hari isuku bituma hagaragara neza cyane, isuku ni ingenzi akenshi iyo ahantu handuye hashoborawe gutera indwara.

Ibitaro ni ahantu usanga abarwayi b'indembe ndetse n'abandi batandukanye, abaganga abaforomo ndetse n'abandi b'ingeri zose, mu bitaro usangamo ibikoresho by'isuku harimo nka matara nziza ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa bavura abantu.

Sale ni ahantu inama zikunda kuberara ndetse n'ibindi birori byinshi bitandukanye, akenshi usanga aho hantu hateguye neza hariho intebe zigezweho, ameza agezweho ndetse hari isuku ihagije.

Umwana akwiye kwitabwaho, kwita ku mwana si ukumwonsa gusa, ahubwo kumuha inkingo, kumumenyera buri kimwe cyose kuko we aba adashoboye kwitekerereza.

Ibitaro ni ahantu abarwayi bajya kwivuza, akenshi iyo umurwayi avuye mu rugo ari indembe akagera ku bitaro abaganga bamwitaho, nyuma y'akanya gato agatangira kureba, agatangira guseka, agatangira kuvuga, agatangira kwishimana n'abandi.

Ku ivuriro n’ahantu usanga isuku ihambaye ibikoresho byaho biba bisa neza cyane intebe, inzugi, amadirishya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibitaro bimwe na bimwe, bikunze kugira abantu benshi cyane urugero nk'ibitaro bya Ruhengeri, bikunze kugira abantu benshi cyane bitewe n'uko biri mu mujyi, mu by'ukuri ibiro biri mu mujyi cyane, bikunda kugira abarwayi benshi ugereranyije no mu cyaro, aho abantu baba ari bake cyane.

Ikigo nderabuzima ni ingenzi cyane gifasha abantu kujya kwivuza kigabanya impfu z'abana bakiri batoya ndetse kigatuma igihugu gitera imbere kuko usanga abarwayi benshi bivuriza ku gihe.

Ibikoresho byiza, intebe nziza n'ibindi bikoresho bigezweho wabisanga ku bitaro, sibyo gusa isuku yaho ni ntakemwa, akenshi usanga mu bitaro hari isuku nyinshi kandi ihagije.

Kuryama ahantu heza hasukuye, hateguye neza, hariho matoro nziza, igitanda cyiza ni ingirakamaro cyane kuko bituma umuntu abaho neza, akora neza n'imitekerereze ye ikiyongera.

Ibitaro ni ahantu abantu bajya kwivuza, akenshi ibitaro byo mu mujyi usanga bitandukanye cyane cyane n'ibyo mu cyaro urugero: mu mujyi ibitaro biba ari imiturirwa ,mugiye mu cyaro ibitaro biba biciriritse ugereranyije n'ibyo mu mujyi.

Ibikoresho nk'imashini byifashishwa kwa muganga ndetse n'ahantu hatandukanye, usanga kwa muganga bazikoresha babikamo amakuru, bandika, banareba abatanze mituweli cyangwa se abataratanze ubwisungane mu kwivuza kugira ngo babone uko bavura abantu.

Kwa muganga ni ho hantu usanga ibikoresho byinshi bitandukanye. Bimwe bihenze kandi usangayo abantu bafite isuku. Ndavuga abaganga ndetse n'abandi bose bakoresha serivisi za kiganga.

Abaganga ni bamwe mu bakozi ba Leta bakora akazi kandi neza. Abaganga mu by'ukuri batahabaye abantu ubuzima bwabo bwajya mu kaga kuko akenshi usanga dufatwa n'indwara hakitabazwa abaganga.

Umwana agomba kwitabwaho, umubiri we ntabwo uba umeze nk'uw'umuntu mukuru, urugero umuntu mukuru biragoye guhihita afatwa n'indwara, ariko umwana mutoya akantu kose gato kamubaye gahita kamwangiza.

Mu biro byinshi bitandukanye, uhasanga isuku, haba inyuma ndetse n'imbere, abantu bahakorera usanga bakira abantu neza, babaha serivisi zigiye zitandukanye.

Mu bitaro ni ahantu hahora abantu bakora isuku bita ku barwayi. Ubwo ndavuga abaganga. Ni byo koko abarwayi bagomba kwitabwaho kugira ngo barengere amagara yabo.

Sale n’ahantu ha nini cyane abantu bahurira bakarema inama si ibyo gusa mu gihe hatarabera inama haba hari isuku ihagije ameza ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa.

Kwa muganga, haba hari ibikoresho byinshi bakoresha mu bushakashatsi. Mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byo ku rwego rwo hejuru. Ibi bifasha gukusanya amakuru menshi kandi atandukanye.

Mu bitaro niho hantu usanga ibikoresho byinshi kandi bigezweho, bakoresha basuzuma indwara, haba izo mu nda cyangwa se izo inyuma tubonesha n'amaso.

Kwa muganga haba hari isuku ihagije. ibikoresho byiza nk'utubati, mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bakoresha bavura abarwayi.

Muri laboratwari ni ahantu haba hari ibikoresho byinshi byica kandi bihenze, usangamo amaside bakoresha bakora ubushakashatsi ku kintu runaka.

Kwa muganga intebe nziza, akabati keza, ibikoresho byiza bitandukanye tubisanga kwa muganga. Isuku itagereranywa nta handi wayisanga tubisanga kwa muganga.

Kwa muganga haba hari ibikoresho byiza ibitanda, mudasobwa zigezweho, inzugi nziza, utubati twiza, ndetse n'ibindi bikoresho bifasha umurwayi. Usanga isuku ari nta makemwa. Isuka yo kwa muganga iba ihambaye cyane ugereranyije n'ahandi.

Ibyapa ni ingirakamaro. Ibyapa biri ku muhanda bituma abantu bamenya amerekezo y'ahantu runaka. Nk'urugero niba icyapa kikubwira ngo kigali city, bivuze ko ahantu ugeze ari i kigali cyangwa se akaba ari mu nkengero zaho.

Mu bitaro byinshi usanga bakira abantu bafite indwara zitandukanye. Haba izoroheje cyangwa se iziremereye, niyo mpamvu hashyizweho ikigo nderabuzima kugira ngo gifashe naba bantu baba bafite indwara zoroheje kugira ngo bagabanye umubare w'abantu benshi bajya ku bitaro bikuru.

Ku kigonderabuzima ni ahantu haba hari isuku abantu bajya kwivuza. Usanga hari abantu batanga serivisi nziza kandi zinogeye amaso. Iyo ugeze kwa muganga hari aho ubanza ukabanza wicara ukaruhuka. Hanyuma muganga akubaza ikibazo ufite.

Kwa muganga isuku ntawabahiga, usanga ikintu cyabo cyose gifite isuku, aho kuryama, amashoka, intebe ndetse n'ibindi, sibyo gusa uhasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga nka computa ndetse n'ibindi bikoresho.

Kwa muganga haba hari ibitanda byiza kandi bigezweho, si ibyo gusa haba hari ibindi bikoresho nk'intebe, utubati, byose bimeze neza.

Kwa muganga uhasanga ibikoresho byinshi, mudasobwa, imiti igiye itandukanye, intebe nziza, utubati, isuku ndetse n'ibindi, ibi byose byifashishwa bavura abarwayi.

Mu mujyi ni ahantu hari inzu zitandukanye kandi ndende cyane ugereranyije no mu cyaro, ikintu kizakubwira ahantu ko ari mu mujyi ni inzu ndende cyane zikabakaba ku bica, mu gihe mu cyaro usanga inzu zidakomeye kandi akenshi zishakaje ibyatsi.

Laboratwari ni ahantu bapimira indwara akenshi usanga hari ibikoresho bigezweho kandi hakunze kuba hari abantu babizobereyemo bityo ntamuntu ushobora kujya muri laboratwaire gupima namba se gukora ubushakashatsi adafite ubumenyi buhagije.

Guhabwa inkingo ni byiza cyane, inkingo ituma umuntu adafatwa n'indwara runaka, iyo umuntu ahawe urukingo bimuha amahirwe menshi yo kudafatwa niyo ndwara runaka afatiye urukingo.

Ibiro, ibiro ni ahantu hari inyubako nziza, hari isuku ihambaye kandi hari ibirango biharanga, urugero nk'ibyapa bivuga aho hantu ahariho, bityo kugira ngo barangire abantu baje bahagana.

Kwa muganga ni ho hantu honyine usanga ibitanda byiza kandi bigezweho. Ameza, utubati n'ibindi bikoresho mudasobwa, microscope byifashishwa bavura abantu.

Mu mujyi usanga hari inzu nziza cyane ugereranyije no mu cyaro, usanga inzu zifite ibirahure, usanga hari imiturirwa ndetse usanga abantu bafite isuku nyinshi, mugiye mu cyaro inzu ntabwo ziba zikomeye.

Ubusitani ni ahantu haba hateye indabo nziza, ziri ku murongo, kandi zimeze neza. Ahantu hari ubusitani abantu bakunda kuhakunda cyane, kuko haba hari umwuka mwiza, ndetse hari amahumbezi.

Kwa muganga ni ahantu haba hafite isuku, ibikoresho byose biba bimeze neza uburiri, intebe, utubati mudasobwa n'ibindi, ibyo byose ni ibikoresho wasanga kwa muganga.

Imboga n'imbuto ni ingirakamaro umuntu wariye imboga n'imbuto agira imbaraga kandi umubiri we ugakomera, si ibyo gusa umurinda indwara za hato na hato nka bwacye ndetse n'ibindi.

Iminzani ni ingirakamaro, iminzani ya kera itandukanye niy'ubungubu tubona, ubu hari iminzani igiye ifite kamera, aho uhagararaho ugahita ubona ibiro ufite ,ukibona wese wese.

Siporo, siporo ni ingenzi. Siporo zituma umuntu agira mu gituza hanini, ukuboko kunini kandi akaba akomeye. Sibyo gusa bituma atekereza neza. Indwara ntakunda gufatwa nazo.

Amazi turayanywa, tuyakoresha n'indi mirimo ariko kunywa amazi menshi si byiza, kuko ashobora gutera indwara, urugero iyo unyweye amazi menshi, bituma amaraso ahinduka amazi, ni byiza rero kunywa amazi makeya.

Kwa muganga tuhasanga isuku ihambaye, abakoramo baba bambaye inifomu bambaye neza kandi bitonze, bategereje abo baraha serivise. Kwa muganga tuhasanga ibikoresho byinshi bigezweho nka televiziyo, mikorosikope ndetse n'ibindi.

Imiti ivura ububabare ni myiza cyane, ifasha umuntu kutongira kumva uburibwe ku mubiri, ku itungo ho ni kure kubi nko ku itungo bituma itungo ritumva uburibwe ku kintuintu runaka.

Amazi n' ingenzi ariko na none unyweye amazi menshi akugiraho ingaruka mbi urugero iyo umuntu anyweye amazi menshi bituma umubiri amaraso y'umubiri we ahinduka amazi ikindi kandi iyo umuntu atanyweye amazi ahura n'ikibazo kijyanye n'impyiko.

Akenshi iyo umuntu yakoze ingendo nyinshi cyane ahabara amaguru, hari uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo unanure imitsi y'amaguru, nko gufata agatambaro ukagatosa hanyuma ukagenda ukandisha ku maguru aho uri kubabara.

Akenshi hari imirimo dukora ikatubabaza, ugasanga ufite uburibwe impande zose z'umubiri. Ni ukuvuga ko ingingo zose zaba zimeze nk'iz'avunaguritse. Ni yo mpamvu haje imiti ishinzwe kugabanya uburibwe mu mubiri stopeyini.

Siporo, siporo zituma umuntu ananuka amaboko, ibitugu, umugongo bikamurinda kurwaragurika umutwe bityo umubiri we ukaba umeze neza.

Siporo ni ingenzi cyane, siporo ituma ukomera ukagira imbaraga bityo ugakura neza mu gihagararo. Abantu bakunze gukora siporo ntibakunze kurwaragurika.

Ibinini, inshinge ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga bavura abantu, ibinini ni ingenzi cyane, iy'umuntu arwaye umutwe, iyo bamuhaye ikinini cy'umutwe ahita akira hanyuma ubuzima bugakomeza.

Amazi ni ingenzi turayanywa, turayatekesha, turayafurisha, tuyakoropesha amazu yacu, si ibyo gusa amazi yifashishwa mu nganda bakora ibintu runaka.

Amazi ni ingirakamaro, turayanywa kandi tuyakoresha iyindi mirimo itandukanye, urugero tuyakoresha duteka, dukaraba, dufura imyambaro ndetse tunayakaraba.

Mudasobwa ni igikoresho cy'itumanaho gituma umuntu abona amakuru ari gucicikana hanze n'ahandi henshi hatandukanye si ibyo gusa ikoreshwa ku ishuri twandika raporo ndetse no ku kazi muri rusange.

Siporo ni ingirakamaro siporo ituma umuntu akomera bimurinda guhangayika, bituma atekereza neza, si ibyo gusa ntabwo akunze gufatwa n'indwara.

Ni byiza ko igihe ufite igikomere ugomba kujya kwa muganga, aho gukoresha imiti gakondo wipfuka cyangwa ushaka komora igisebe, akenshi iyo ukoresheje imiti gakondo, bishobora kugukururira kanseri.

Siporo ni ingirakamaro cyane, siporo zifasha umuntu kugira umubiri ukomeye cyane bityo bigatuma atarwaragurika, ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ukunze gukora siporo aba afite amahirwe menshi yo kutarwaragurika cyane.

Iyo umuntu yavunitse ikiganza, ni byiza ko ajya kwa muganga bakamushiraho umuti, iyo umuntu akoresheje umuti gakondo ashaka kwivura ibi bishobora kumuviramo ingaruka, ndetse na kanseri.

Iyo umuntu akomeretse, ni byiza gushaka agatambaro keza, hanyuma agapfuka igesebe kugira ngo amaraso adakomeza kuva kandi agomba guhita yihutira kujya kwa muganga ariko ubutabazi bw'ibanze ari bwo yamanjije.

Siporo zituma umuntu akomera, akagira amagufa akomeye, bituma umuntu yishima kandi bifasha umuntu kutarwaragurika.

Imbuto ni ingirakamaro, imbuto zituma umubiri ukora neza, si ibyo gusa imbuto zitanga amafaranga kuko zifashishwa mu nganda nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo bakore imitobe ndetse n'ibindi.

Ikinyabuzima cyose kigira uburibwe, bitewe n'icyateye ubwo buribwe. Niyo mpamvu hateye imiti mu gihe umuntu afite uburibwe akawitera hanyuma uburibwe bukagenda.

Mubazi, igikoresho kwa muganga bakoresha bapima umuriro w'umuntu akenshi kugira ngo bamenye ko umuntu yarembye bifashisha mubazi, iyo umuriro ugeze kuri mirongo ine bivuga ko uwo muntu aba yarembye cyane n'ubundi ubushyuhe bwaba munsi ya gatanu bikaba byakomeye.

Imbangukiragutabara; imbagukiragutabara ni imodoka zabugenewe zishinzwe gutwara abarwayi zibavana ku bitaro bitoya zibajyana ku bitaro bikuru, bityo kugira ngo babashe kwitabwaho.

Akenshi abantu bakunda gukorera siporo ahantu hisanzuye kandi hari amahumbezi, urugero usanga akenshi abantu benshi bagiye ahantu hari amazi magari nko ku biyaga ndetse n'inzuzi, bityo kugirango babashe gukora siporo.

Siporo n'ingenzi cyane umuntu ukunze gukora siporo agira umubiri ukomeye bimurinda kurwara sibyo gusa ahubwo bimufasha gutekereza neza mu gihe undi muntu udakora siporo akunze guhura n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Iyo umuntu ababaye arwaye yakomeretse agomba kwihutira kujya kwa muganga. Akenshi usanga umuntu urwaye nk'ivi akunze kuzirikaho ibintu, aho kujya kwa muganga ibi ni ugushyira ubuzima mu kaga.

Ivi, ivi iyo ryagize ikibazo ntushobora gutambuka, ntiwagenda, mbese ntakintu na kimwe wakora n'ukuguru kwawe, niyo mpamvu mu gihe wumvise ufite ikibazo mu ivi, ukwiye guhita witabira kujya kwa muganga hanyuma bakakuvura.

Akenshi, iyo umuntu akomeretse mu cyaro, yihutira gupfuka ahantu yakomeretse cyangwa se akazirikaho ibitambaro, ariko ibi si byiza kuko byakourura ubundi burwayi runaka. Ni ngombwa ko mu gihe ukomeretse namba se wumva ubabara ahantu runaka, ukwiye guhita ujya kwa muganga.

Abantu bakunze gukina umupira, bakunze guhura n'impanuka nyinshi cyane kubera ko iyo ukina umupira, muhurira ku mupira muri abantu benshi cyane, hanyuma ugasanga ukuguru kwawe kurahatakariye.

Imyidagaduro, imyidagaduro ni igihe abantu bahuriye ahantu bakishima ndetse bagashimisha abantu, urugero nko kubyina, gukina umupira ndetse n'ibindi.

Uturindantoki, imakasi, ibinini, inshinge; ni ibikoresho usanga kwa muganga, ibi bikoresho byifashishwa bavura abarwayi ndetse bakora n'ubundi bushakashatsi.

Amahugurwa, amahugurwa ni igihe abantu bicaye bari guhabwa inyigisho ku kintu runaka, akazi kose kagira amahugurwa, urugero kwa muganga abaganga bagomba guhabwa amahugurwa kugira ngo bongere ubumenyi bwa bo mu kazi ka bo ka buri munsi.

Imbuto ni ingenzi cyane zifasha ikoraneza ry'umubiri zikanarinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, akenshi indwara zituruka ku mirire mibi, imbuto nanone zifashishwa mu nganda bakuramo imitobe ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye.

Indyo yuzuye dusangamo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, mu byubaka umubiri dusangamo ibinyamafufu nk'ibirayi, mu birinda indwara dusangamo imboga n'imbuto, mu byubaka umubiri dusangamo ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'inyama.

Ku bitaro ni ahantu h'ingirakamaro. Ahantu abantu bajya kwivuza bityo indwara zabo zigakira. Ni yo mpamvu ku bitaro bahora bahavugurura bahasiga amarangi ndetse bahakora neza.

Niba urwaye jya kwa muganga. Abantu benshi mu isi bapfa kubera kutumva kubera guhatiriza baguma mu rugo kandi barwaye. Ni byiza ko iyo umuntu afashwe ahita ashaka muganga kugira ngo ikibazo cye gikemuke.

Siporo ni ingenzi abantu bafite ubumuga na bo bagomba gukora siporo, ariko zoroheje, nko gukina agapira kwirukanka gake gake ndetse bagasabana n'abandi kugira batigunga.

Siporo ni ingirakamaro, siporo ituma umuntu agira umubiri ukomeye amagufa agakomera, indwara ntizikunda kumufata, amoko ya siporo ni menshi hari uguterura icyuma, gukina umupira w'amaguru, kwirukanka ndetse n'ibindi.

Mudasobwa telefone ni ibikoresho byifashishwa mu itumanaho si ibyo gusa abantu babikoresha binjiza amafaranga nk'urugero irembo rikoresha mashini cyangwa se mudasobwa.

Indyo yuzuye iyo tuvuze indyo yuzuye bisaba ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri mu biririnda indwara dusangamo imboga n'imbuto nk'amagi ,imineke ndetse n'ibindi.

Siporo, siporo ni ingenzi cyane, zifasha umuntu gukomeza amagufwa, bikamufasha kutarwaragurika bikamufasha kuba ameze neza muri rusange, imitekerereze ye iriyongera kubera siporo.

Amazi ni ingirakamaro. Amazi ntabwo agira ishusho bitewe n'icyo arimo. Mu by'ukuri iyo amazi afite ishusho runaka ukayibona nk'umuhondo ntaba se ikindi kintu runaka, ni ukuvuga ko amazi hari ibindi bintu babasizemo kugira ngo ahindurirwe ishusho.

Siporo ni ingirakamaro cyane, zidufasha kugira umubiri ukomeye, biturinda indwara ndetse bidufasha kuruhuka mu bwonko, mu by'ukuri umuntu udakora siporo ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, nko guhora afite umutwe udashira, guhora ababara mu ngingo ndetse n'ibindi.

Siporo ni ingirakamaro, umuntu ukunda gukora siporo bimurinda kurwaragurika ndetse bimufasha kugira amagufa akomeye cyane ariko nanone hari siporo zimwe na zimwe zishobora gushira ubuzima bw'umuntu mu kaga urugero: nko kweberera mu biti ndetse no kwicunga ku bindi bintu bikomeretsa.

Amazi, amazi ni ingirakamaro cyane. Umuntu anywa amazi kugira ngo ashire icyaka, sibyo gusa tuyifashije dukaraba, dufura, duteka n'indi mirimo myinshi itandukanye.

Umuntu wakomeretse agomba guhita ajya kwa muganga kugirango ngo yitabweho, iyo umuntu yakomeretse cyirazira kwizirikaho ibitambaro cyangwa se agakoresha imiti yo mu kinani kuko bishobora kumuviramo kanseri, ni byiza kugana kwa muganga kugira ngo agufashe.

Uko umuntu ahagarara bigena imigendekere ye y'ubuzima, iyo umuntu ahahagaze yihengetse amahirwe menshi ni uko n'ingingo ze zihengama, iyo umuntu ahagaze neza yemye bituma ingingo ze zema.

Mudasobwa. Mudasobwa ni igikoresho cy'itumanaho abantu bakoresha bakurikirana amakuru, bakora raporo, ikoreshwa ku ishuri, mu rugo, mu bitaro ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye.

Ibirungo, ibirungo ni ikintu cyose ushobora gushyira mu biryo, bikarushaho kuryoha, urugero nk'igitunguru, inyanya ndetse n'ibindi, bituma ibiryo bihumura neza kandi bigahindura isura.

Amazi n'ingirakamaro cyane adufasha mu igogorara ry'umubiri ndetse n'ibindi ariko na none kunywa amazi menshi si byiza kuko mu gihe yanyweye cyane ashobora gutuma amaraso y'umuntu aba amazi kandi na none kutanywa amazi n'ikibazo gikomeye..

kwinaza ibimera ni bimwe mu byinshijiza amafaranga. Ingemwe z'ibimera ziragurishwa. Urugero nk'ibiti tubyifashishije dutera ahantu kugira ngo twirinde isuri, bityo ababyinaje tubaha amafaranga kugirango babiduhe.

Imiti ni ingenzi mu buzima bwacu iyo umuntu yarwaye akenera umuti kugira ngo akire, si ibyo gusa imiti ihavuye ikomeza kwiyongera, niyo mpamvu leta y'u Rwanda yateje imiti imbere ibitaro farumasi, ndetse n'ahandi hantu henshi ushobora gusanga imiti.

Imbuto ni ingirakamaro cyane mu mubiri, zidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe za hato na hato, akenshi ziba ku mirire mibi, niyo mpamvu tugomba gufata imbuto kenshi gashoboka, kugira ngo twirinde indwara.

Ubucuruzi ni ingirakamaro cyane, abantu benshi babona amafaranga avuye mu bucuruzi. Nk'ubucuruzi bw'imbuto, imboga ndetse n'imyenda. Si ibyo gusa ubucuruzi bwinjiriza amafaranga nyirabwo ndetse na leta muri rusange.

Hari ibimera bimwe na bimwe byabuze nk'umuravumba ndetse n'ibindi, ibi bimera usanga bishakisha kuko biduha imiti kandi byifashishwa mu nganda.

Ibimera ni ingirakamaro. Ibimera biduha imiti, biduha ibiryo, bikafasha kubona mwiza wo guhumeka. Ibimera bimwe na bimwe, biraribwa. Urugero nk'imyumbati, amapera ndetse n'ibindi.

Ibimera, ibimera ni ingiraka, ibimera bituma tubona umwuka wo guhumeka, bicumbikira ibinyabuzima bimwe na bimwe nk'amasazi, imibu n'ibindi binyabuzima bito bito.

Umubiri ukwiye kwitabwaho ku buryo bwinshi bushoboka urugero gukora siporo urya indyo yuzuye ndetse no kuryama ugafata igihe gihagije cyo kuruhuka iyo byose ubikoze bituma ugira ubuzima bwiza.

Ubuki ni ingirakamaro. Ubuki bufasha umubiri kubona vitaminini D, ikungahaye ku masukari kandi bifasha umuntu kumererwa neza. Si ibyo gusa, ubuki bwifashishwa mu ruganda bakora inzoga.

Serumu, serumu ikoreshwa kwa muganga bafasha umurwayi ugiye gushiramo amaraso, serumu ziba zirimo utunyangingo twongerera umuntu amaraso bityo bikamufasha kudapfa iminsi yo kubaho ikiyongera.

Ibimera, bigira uruhare rukomeye cyane ku bantu, ku binyabuzima muri rusange, ibimera biduha imiti, urugero; nk'umuravumba, tuwifashisha twivura, uvura inkorora, ibicurane ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi butuma umuntu abona amafaranga. Igihe agemura imyaka yahinze, bityo bigatuma abasha kwizigamira kandi akazigamira n'abana be b'ejo hazaza. Ubuhinzi bwo mu cyaro usanga cyane cyane bwiganjemo ibihingwa byo kurya: nk'ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Umunzani ni ingirakamaro cyane, ukoreshashwa umumenyi ingano y'ikintu runaka, bityo bigatuma udahendwa cyangwa se ngo uhenda abantu mugihe uri umucuruzi. Kera abantu bakoreshaga intoki, ntibakoreshe umunzani, ni ukuvuga ko umwe yahaga igicuzwa runaka undi muntu, bose bakagurana nta munzani bakoresheje.

Imineke ni ingirakamaro, mu byo turya harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Imineke tuyisanga mu birinda indwara kuko mu birinda indwara harimo imboga n'imbuto, umuneke rero ni imbuto.

Icyayi, icyayi ni igihingwa ngengabukungu gihingwa mu Rwanda. U Rwanda rusohora icyayi hanze y'Igihugu hanyuma rukinjiza amadovize. Ni ukuvuga amafaranga y'amanyamahanga.

Ibimera ni ingenzi cyane ibimera tubyifashije dukora imiti, si ibyo kandi ibimera bimwe na bimwe biduha ibyo kurya, biduha umwuka mwiza wo guhumeka, bicumbikira ibinyabuzima ndetse bigira uruhare cyane cyane mu bantu bakunze gukora ibintu bijyanye n'ubukorikori.

Indabo, indabo ni ingirakamaro, ziduha imiti, zifasha inzuki mu gukora ubuki, si ibyo gusa, ziduhana n'ibyo kurya, mu by'ukuri ahantu hari indabo, usanga ari ahantu heza cyane, abantu bakunda kuhifotoreza.

Imbuto ni ingirakamaro cyane, mu mbuto twasangamo amaronji, amacunga, amapapayi, imineke ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, izi mbuto ziba zifite vitamin D yifashishwa yubaka umubiri.

Inzoga zituma umuntu ashirara icyaka ariko nanone ku bana batoya inzoga ntabwo zemewe iyo umwana anyweye inzoga akiri mutoya bishobora kumwangiza cyane.

Gukaraba intoki ni ingirakamaro cyane, ni byiza ko umuntu akaraba mu intoki mbere yo kurya ndetse na mbere yo kugaburira umwana mu gihe afite umwana ari konsa . Ni yo mpamvu hazanywe imiti yo gukoresha mu gihe tukaraba intoki (Sanitayiza).

Ibimera ni ingenzi. Ibimera biduha imboga zo kurya. Bidufasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka, bifasha ibinyabuzima kubona aho biba, kandi bituma tubona amahumbezi.

Amavuta ni ingenzi cyane ibiryo birimo amavuta biraryoha, kandi akenshi usanga byahinduye ibara runaka. Si ibyo gusa ibiryo birimo amavuta bituma umuntu agira apeti.

Ibimera ni ingenzi cyane. Bidufasha kubona imiti, bimwe turabirya, ibindi bicumbikira inyamaswa n'ibiguruka harimo inyoni ndetse n'ibindi. Sibyo gusa biduha umwuka mwiza wo guhumeka.

Indyo yuzuye, indyo yuzuye iba irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni byiza gufata indyo yuzuye kuko bigabanya ibura ry'ibiro ndetse no kurwara indwara zitandukanye.

Ibimera ni ingirakamaro bidufasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka, bicumbikira inyamaswa zitandukanye, nk'inyoni n'ibindi binyabuzima byinshi bitandukanye, ibimera kandi biduha ibyo kurya, hari ibimera bimwe na bimwe bitanga ibyo kurya nk'imyumbati ndetse n'ibindi.

Ibimera ni ingirakamaro cyane, biyungurura umwuka duhumeka, bityo ubuzima bugakomeza. Iyo byangijwe bituma tubura umwuka mwiza wo guhumeka, bityo imyuka yanduye ikiyongera mu kirere cyacu.

Abajyanama b'ubuzima bagira uruhare rukomeye cyane, bafasha leta gukwirakwiza imiti mu baturage sibyo gusa kandi bafasha leta mu gukora ubukangurambaga, ku byorezo runaka nka malaria ndetse n'ibindi.

Imihamurano, iyi ni imiti bakora mu byatsi by'ubwoko bwose bugiye butandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, na yo igira akamaro cyane.

Umuravumba ni igiti gikunze gukurira ahantu hose hashoboka. Umuravumba ni ingirakamaro cyane kuko udufasha kwivura indwara zigiye zitandukanye nk'umutwe, mu nda ndetse n'ahandi.

Ibimera, ibimera ni ingenzi cyane, bidufasha kubona imiti, bicumbikira ibinyabuzima, bidufasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka kandi byifashishwa no mu nganda nk'ibikoresho, cyane cyane nk'inganda zikora imiti.

Indabo ni ingenzi cyane tuzikoresha dushaka umuti, zifasha inzuki mu kubona ubuki ikindi indabo zikoreshwa mu nganda bakoramo imitako.